Inama ni nziza cyane abantu barayikunda, usanga abantu bakuru n'abana bo mu myaka cumi n'umunani bari kujya kumva inama kuko baba babyemerewe.

Iyo abantu bagiye gukoresha inama cyangwa bagiye mu bukwe usanga ari abantu benshi cyane bari kwitegereza umugeni cyangwa umuyobozi, bateze amatwi bari kumva ibyo barababwira kugira ngo batahe bumvishe icyo abandi bavuze.

Ibikorwa remezo ni byiza cyane, usanga abantu bari kunywa banezerewe cyane, bifashe neza, ibitabo imbere yabo, ugasanga abarwaye mu mutima bari kuwisetsa, kuko baba bari kunywa.

Ubukwe ni bwiza cyane, usanga abantu bafite icyo kunywa baba bicaye ku ntebe, abagabo, abana basanga abantu bameze neza, bishimye bameze nk'abagiye guseka kuko baba bafite icyo bashaka.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane, abantu barawukunda, usanga nk'ababyinnyi bari kubyina, bambaye neza cyane, babyina neza, kandi ukabona abantu bari kubitegereza, barishimye.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane, abantu barawukunda, usanga nk'intango bashyizemo ubushera, abantu bakagenda bakanywa, ubushera bugashya neza cyane ugasanga buraryoshye, abantu barabunweye barishimye.

Kubyina ni byiza cyane, usanga abantu bagiye mu marushanwa bari kubyina bambaye neza cyane, ugasanga bari kubyina neza cyane, ugasanga bashimishije abantu, ugasanga baranezerewe kuko baba babitegereje.

Kubyina ni byiza cyane. Usanga abana bagiye mu marushanwa, bakabyina, bakaba abambere bagahembwa. Abantu bakabashima ugasanga n'ababyeyi babo barishimye kuko abana baba bazi kubyina.

Inzoga ni nziza cyane ituma abantu bahura bakanywa bakishima, ikirori kigashya, bakazana imiheha yo mu biti, barangiza bakanywa bagahaguruka bagataha.

Umujyi ni mwiza cyane, abantu barawukunda. Kera wasangaga nk'inzu y'ibyatsi abantu bayibamo, kandi ugasanga bararyamye, babayeho neza. Inka bakava kuziragira, bakazicyura saa kumi n'ebyiri.

Isekuru ni nziza cyane bayisekuriramo isambe, bakanayisekuramo imyumbati barangiza bakayingurura bakarya bagahaga, kandi umuntu uba utabashije kubona ayo kubatesha ku muririro asekurira mu isombe, abana ba mu cyaro ugasanga barasekuye baseku n'agabasombe baribiririye, ariko uwo mu mujyi we ntabwo yabishobora.

Umuco nyarwanda ntugacike. Kera wasangaga abantu bafite uduseke, bafite n'igisabo. Ugasanga bari gucunda amata bagakuramo amavuta, bari kuyisiga mu buryo butandukanye, ugasanga abantu bameze neza nta burwayi, kuko bisigaga amavuta y'inka.

Inka ni nziza cyane abantu barazikunda cyane y'uko bakamamo amata bakayagurisha bakabona amafaranga, bakayaha n'abana bakayanywa ugasanga abana barishimye y'uko babonye intungamubiri ihagije.

Ababyinnyi ni beza cyane, abantu barabakunda, kuko babyina bagashimisha abantu, bakavuza ingoma, ukabona barabyina neza wee! Agera hirya no hino ugasanga amarushanwa y'abana ari kubyinaga, imbere akajya kubyina mu mugi.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane abantu barawukunda, usanga bafashe imivure cyangwa bagafata n'ubutanda bukoze mu biti bagashyira hejuru bagakama inzoga, bagashaka n'umubirikira bakayungurura imbetezi bagashyira mu bicuma bakanywa.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane abantu barawukunda .Usanga bafashe ibicuma bakabishyiramo inzoga, ugasanga mu kabari barabifite baricaye bari kunywa. Cyangwa ahantu ho ku rwina ukabona umuntu uri kunywa ahereje undi.

Umuganda ni mwiza cyane, abantu barawukunda. Cyane cyane nk'abayobozi iyo abantu bitabiriye gukora umuganda, usanga abayobozi bishimye cyane ,bakora imihanda bazacamo ,ugasanga abantu batashye bishimiye ko bazajya baragenda badasitara.

Ababyinnyi ni beza cyane, abantu barabakunda cyane, ugasanga bari kubyina, baraberewe, bari kubyina neza, ukabona abantu bari kubitegereza, abandi bafashe ibisabo bari gucunda amata, bari kubaririmbira.

Isaha ni nziza cyane abantu barayikunda cyane, kuko iyo arajya ahantu ni ugupanga isaha aragirayo, akagenda areba kuri telefone, ngo areba ya saha yapanze ko yageze yabona yageze akagenda.

ldarapo ni ryiza cyane rikunda kurangira ahantu ku gitayeho ukayisoma cyane cyane hari idarapo yabaga ari umuhanda rikunda kurangira abantu benshi cyane ukabona iyo ujya ku buryo utayoba.

Kiriziya ni nziza cyane, abantu bajya kuzisengeramo, ugasa padiri arabasobanuriye batashye bumvise ijambo ry'Imana, kiriziya mugihe bari kuzifunga, agasanga izitubatse neza barazifunga bakajya gusengera kuzubabatse neza, ariko noneho bakumva ijambo ry'Imana ark mu buryo butunguranye.

Amashuri ni meza cyane, abana bayigaho barishima n'ababyeyi bakishima yuko leta yabazaniye amashuri. Ugasanga ababyeyi bari kwishima cyane n'abana bakishima kuko babazaniye amashuri azajya bigisha neza ikinyabupfura, umurava ,bakiga bakarangiza.

Amashuri ni meza cyane, abanyeshuri bariga ugasanga bamenya ubwenge barize bararangije babonye akazi, ugasanga ibintu bimeze neza, ugasanga umuntu abaye dogiteri bitewe n'ibyo yize, ugasanga akishije ababyeyi be.

Akagari ni keza cyane, gatuma abantu bahura, bakarega, bakiyunga, bakongera bagasangira. Kuko bajya kurega, abayobozi bakabahuza, ugasanga n’umuntu yahuye n’ikibazo arakitabaje kuko kaba ariko kari hafi ye.

Inzu ni nziza cyane usanga abantu bazifite baba bubashywe, kuko baba badakodesheje ugasanga umuntu utwo ahinze araturiye, aturiye neza kuko aba ari kuvuga ngo nabwo yishura inzu, kugira ngo yishyure inzu ugasanga araryamye arasinziriye neza cyane.

Akarere ka Musanze ni keza cyane, abantu baragakunda cyane, kuko iyo umuntu ashaka umuyobozi, aragenda akamushaka ibibazo bigakemuka. Abantu usanga barumvikanye bafite umutekano.

Inzu ni nziza cyane barazikunda, usanga nk'umuntu ufite inzu aba yubashwe cyane kuko aba ataribukodeshe, Yaba iri mu cyaro cyangwa iri mu mujyi, icyo wakora ariko ufite iyawe.

Amashuri ni meza cyane usanga abanyeshuri bari kuyigaho nko guhera mu wa mbere kugeza ku mashuri yisumbuye, ugasanga abanyeshuri barize baraharangirije, bitewe na digiri babahaye, bitewe n'ubushobozi nabwo babahaye, ugasanga baratsinze babonye amanota yo kujya bodingi.

Umuhanda ni mwiza cyane, abantu barayikunda asanga niyo bari gukora kaburimbo, arukubanza bagacukura itaka bakabyigiza hirya, barangiza bakazana sima bagakotera kugirango, imodoka zibone aho zica.

Warimazi ni byiza cyane usanga abantu barubatse amazu meza cyane amataje agerekeranye, ugasanga abantu bazirimo, bari kugenda bazitegereza neza cyane, cyane cyane abantu bo mu cyaro, kubera ko baba batazizi, ni ukuzigeraho bagatangara cyane.

Urusengero ni rwiza cyane, abantu bararukunda, kubera bajya gusenga, padiri akabasobanurira, icyo wari utazi ugataha ukimenye, nicyo kintu barukundira, kandi iyo uvuye gusenga ibyo usenze Imana irabyumva, icyo wifuza Imana ikakiguha.

Abanyeshuri ni beza cyane abantu barabakunda, cyane cyane nk'umuntu uzi ubwenge wiga agatsinda ikigo kimugurira ibyakeneye ibyo iwabo badashobora kubona.

Ibikorwaremezo ni byiza cyane, ahantu biri haba hagaragara neza cyane. Kuko usanga hubatse amakabari, ibitaro cyangwa amabutike, ibintu byinshi bitandukanye n'amazu yubatse neza.

Ibiti ni byiza cyane, abantu barabikunda cyane kuko birinda umuyaga mwinshi, kandi abantu bakabitema, bakabicana, bakanabyubakisha, bakanabisakaza, bakabigurisha ugasanga ibintu bimeze neza.

Ababtu iyo bagiye gusenga ahantu hatari urusengero, usanga bajyanye imitaka kugira ngo izuba ritabica, bakajyana na Bibiliya kugira ngo ibyo pasitori avuga nabo babisubiremo, noneho usange bari gusoma, bamenye umurongo, umuntu nagera mu nzira abe yababaza ati" Pastor yasobanuye iki? " Babe bamusubiza.

Gare ni nziza cyane abantu barayikunda usanga harimo imodoka nyinshi zitandukanye, iyo umuntu ashaka kujya ahantu n'ukugenda agatega imodoka iramugeza iyo ajya. Kandi iyo ashaka kugaruka na bwo aratega kugira ngo agere iwe.

Indege ni nziza cyane abantu barayikunda, ariko usanga nk'iyo yakoze impanuka nta muntu warokoka muris Bose barapfa cyane cyane indege, imodoka yo ntabwo habura n'umuntu urokoka n'umwe.

Ibinyabiziga ni byiza cyane, abantu barabikunda kuko nk'iyo ugiye gusura umuntu ahantu ha kure bisaba yuko uteka ikinkinyabiziga kuko ntabwo wagerayo, ugasanga umuntu yateze ikinyabiziga kugira ngo abashe kugera iyo ajya.

Isoko ni ryiza cyane abantu baba bagiye kugenda usanga bari gufata amodoka ngo bagezaho ugasanga hano ho muri gare huzuye abantu bamwe bari gushaka ibyo bagura, abandi bagiye gutega, abandi bataha bava mu modoka bajya iwabo, ugasanga bameze neza cyane iyo batakoze impanuka.

Ibinyabiziga ni byiza cyane, kuko iyo umuntu ashaka kujya ahantu hihutirwa, aragenda akabishaka bikamujyana akagerayo vuba, cyane cyane nk'umuntu w'umurwayi nukumutegera ikinyabiziga akagera kwa muganga vuba, bakamukorera ibyihutirwa kugira ngo ataza kugira ikibazo cyo mu mubiri.

Isoko ni ryiza cyane, abantu bararikunda, usanga nk'ahantu ho muri gare, abantu bagiye gutega, abagiye nko gusura bagenzi babo, cyangwa bagiye gutabara bitewe n'icyabaye ahantu, bamwe bagiye iwabo, abandi bagiye gusura ibintu byinshi bitandukanye.

Ibinyabiziga ni byiza cyane, kuko abantu babitwararaho bagiye mu masoko, kugirango bihute badakerewe isoko, ngo amafaranga abacike, abandi bakikorera ku mutwe kuko nta binyabiziga baba bafite.

Ibinyabiziga ni byiza cyane, iyo umuntu agiye kubaka arabitumiza bikamuzanira amabuye, imisenyi, ibyo kurya ibintu byinshi cyane kandi iyo umuntu, atashobora kujya kwizanira ikintu ni ugutumiza ibinyabiziga.

ibikorwa remezo ni byiza cyane, usanga u Rwanda rwubatse neza cyane, ukabona rumeze neza, kuko abantu baba bararwiseho, na Kagame akarwitaho, ukabona n'abantu barishimye, u Rwanda rumeze neza, bafite n'umutekano.

Hano niho muri gare neza cyane, abantu barahakunda kuko nk'iyo abantu bagiye k'urugendo gutega imodoka, iyo ari ahantu utakwibeshya kugenda n'amaguru ugasanga abantu bari kuzinduka cyane, bahuye bataziranye, bahuriye mu modoka, barishimye cyane.

Ibinyabiziga ni byiza cyane abantu barabikunda. Kuko nk'iyo umuntu agiye ahantu ashaka kwihuta, atega moto cyangwa imodoka kugira ngo agereyo vuba, afite ibyo agiye gukora byihutirwa cyangwa bumwiriyeho ari kubona atagenda mu nzira n'amaguru.

Ibinyabiziga ni byiza cyane, usanga ahantu nko muri gare bihari byinshi cyane kuburyo utabura imodoka. Ugasanga abantu bari kuzivamo baje iwabo, abandi bari kuzijyamo, kuburyo batabura imodoka bajya ku rugendo.

Ibinyabiziga ni byiza cyane, abantu barabikunda Kuko nk’iyo ugiye kubaka nk’ahantu mu mugi hataboneka itaka ryo kubumba inkarakara, agura inkarakara, akagura n’ibintu byo gukoresha mu nzu, akagura itaka, akibumbira cyangwa agatumiza amabati.

Abavuzi ni beza cyane, usanga nko muri gare harimo abantu bari kuvura batambagiza imiti, abandi bavuga aho amamodoka aherereye, ukajya gutega, warangiza ukajya iyo ujya, wagerayo ugashima Imana kuko ugezeyo udakoze impanuka.

Umupira w'amaboko ni mwiza cyane, abantu barawukunda ugasanga abantu bari gukina, bari kumanika amaboko hejuru, kugira ngo barebe ko bawunnyuza hejuru kugira ngo batsinde.

Siporo ni nziza cyane abantu barayikunda. Haba siporo nyinshi zitandukanye. Iz'amaboko, iz'amaguru kandi abatsinze barahembwa. Igihembo gishimishije ugasanga barishimye cyane barimo babyina.

Siporo ni nziza cyane, cyane cyane abantu bakina umupira usanga bari gukorama siporo, menshi kugirango bazajye barabona ukuntu bakina umupira nta mubyibuho batabangamiwe, ugabasanga barikurira abameze neza, bagakubita ishote, bamwe bambaye inkweto z'umupirau gasanga.

Abazungu ni beza cyane, usanga bameze neza, bashimishije umuntu yababona akabitegereza, kuko atari abanyarwanda, ukabitegereza cyane ukareba ukuntu bari guseka, ukuntu bameze kubera aba aribwo bwa mbere ubabonye, cyangwa akaba atari bwo bwa mbere, kubera ko udahora urababona, urabitegereza ukareba uko bameze.

Umipira mwiza cyane abantu barawukunda, umupira w'amaguru abantu bawukunda ari benshi ka Bahembwa n'amafaranga menshi ugasanga abantu batashye bishimye banezerewe.

Siporo ni nziza cyane ziturinda ubuzima bubi tukazikora ugasanga dufite ubuzima bwiza, haba siporo z'amagare n'izindi sporo nyinshi zitandukanye, kandi abantu bazikora barahembwa.

siporo ni nziza cyane, usanga abantu bakinnye, bagahembwa, bakishima, ugasanga bahagaraye abameze neza, bari ku bigisha ibyo bazajya barakora, bakabikora, bakishima kubera ko baba babyujuje.

Siporo ni nziza cyane abantu barayikunda, kuko bayikina ubuzima bwacu bukaba bwiza, ugasanga imibiri imeze neza kubera tuba twarakoze siporo. Kandi haba amasiporo menshi, bambaye imyenda itandukanye, abatsinze bagahembwa.

Siporo ni nziza cyane abantu barayikunda kuko nk'iyo abantu bari gukina siporo usanga ari abantu babyemerewe, bazi kuyikina neza batsinda bagahembwa igihembo gishimishije.

Imodoka ni nziza cyane abantu barazikunda, iyo ukoze impanuka abasirikare baba bahagaze ku muhanda bari gucunga umutekano bagahita bayifata bakajya kuyiparika, umuntu bakamufunga akavuza uwo yakoreye impanuka.

Umupira ni mwiza cyane, usanga abantu bari bukina, utsinze bakamuhemba igihembo gishimishije, ugasanga ikipe yabo yishimiyemye, kuko yacuye amafaranga menshi, ugasanga abantu bameze neza, barguserebura bishimye cyane.

Imodoka ni nziza cyane. Abantu barazikunda kuko bakunda kuzigenderamo ahantu ho mu micucu. Ugasanga umucucu ugiye modoka ariko ukaba utakugeraho ku maguru ugasanga ugeze aho ujya usa neza, umeze nk'umuntu wagendeye mu modoka koko.

Siporo ni nziza cyane, habaho siporo nyinshi itandukanye, ugasanga habaho siporo y'amagare, y'imodoka, moto igorora ingingo. Ugasanga imibiri yabo imeze neza, nk'abakoze siporo kandi, bagakora bagahembwa igihembo gishimishije.

Umupira w'amaguru ni mwiza cyane, usanga abantu bari kuwukina kandi bagahembwa. Usanga abantu bafite televiziyo cyangwa amaterefone manini, bari kuwureba bakishima kuko baba batsinze.

Amazi ni meza cyane, rero usanga abantu bayasohokeyemo nk'abantu babakire bafite amafaranga, bakajya koga bagatanga amafaranga, bava mu mazi bakambara bakiyakira, bagataha bameze neza cyane.

Siporo ni nziza cyane abantu barayikunda cyane baba bari kwigorora, ubugingo bwabo bukababera bwiza kandi bakamera neza, cyane cyane abahungu nibo bakunda gukora siporo.

Gutora Kagame ni byiza cyane abantu barabikunda. Cyane cyane abana usanga bari kuvuga bati:"Bagiye gutora Kagame wacu, ukabona abantu bishimye bari kumanika amadapo hejuru. Bamwe bari kumubangamira bari kumureba.

Imihanda ni myiza cyane, usanga abantu bari kuyinyuramo, bagenda bagakora umuganda ku munsi wo ku wa Gatandatu, abadive bo bakawukora ku cyumweru, kuko ku wa Gatandatu ntabwo bagomba kuwukora kuko bataba babigenewe, abasanzwe bakawukora ku wa Gatandatu. Umuhanda ukagenda neza, ugasanga abantu bari kuwucamo badasitara bagenda bisanzuye.